Abayobozi basobanura ko gukora inama bifashishije mudasobwa ndetse n'indangururamajwi ari byiza kuko bibafasha kumvikanisha icyo bashaka kubwira abo bakoresheje inama mu buryo bwiza, kandi buboroheye bigatuma bumva nta ntega, ndetse nta n'ikindi kibazo kibayeho.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Aha ni aho baparika imodoka zigiye zitandukanye, aho abashoferi basobanura y'uko kuba barubakiwe ahantu bagomba gushyira imodoka zabo, ari ibintu byiza kuko bigabanya akavuyo, ndetse bikanabafasha kuba buri wese yamenya imodoka ye, kuko aba azi umwanya yayishyizemo.

Kubaka inzu ugashyiramo indabyo, ni byiza kuko biyihereza isura nziza, ndetse ukaba washobora no kuhifotoreza bikaguhereza ifoto nziza, turashishikarizwa rero kuba twakubaka inzu tukabasha no gushyiramo indabo, kuko biyihesha isura nziza, bigatuma igaragara neza.

Abayobozi basobanura ko kwigisha abaturage kumenya agaciro k'ibendera ari ingenzi kuko bibafasha kubaha igihugu cyabo ndetse no gukomeza kugiha agaciro mu buryo bumwe butandukanye, kuko babasha kumenya gutandukanya igihugu cyabo ndetse n'ikindi n'imico igomba kukigenga kubera kumenya agaciro k'ibendera.

Arimantasiyo nini cyane irimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, higanjemo amata, amaji, imyembe ndetse harimo n'abakiriya baje gushaka ibyo bifuza.

Abatwara ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, basobanura y'uko kuba barabonye umuhanda nka kaburimbo bibafasha kugenda neza badategwa ndetse bakaba bakwirinda n'impanuka zitandukanye, kuko umuhanda uba umeze neza nta mikuku irimo.

Inzu z'amagorofa ni inzu zigezweho by'umwihariko mu mujyi, aho usanga bashyiraho ibimenyetso kugira ngo babashe gutandukanya, buri umwe wese abashe gutandukanya inzu yiwe. Ni byiza rero ko mu mijyi bagomba gushyiraho ibimenyetso biranga buri gipangu kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa.

Kubaka inzu zifite aho abantu bashobora kugama izuba cyangwa se imvura, ni kimwe mu bintu bifasha abaturage kuko hari igihe rimwe na rimwe bahura n'izuba cyangwa se bagahura n'imvura, bakabura aho bugama, ni byiza rero kuba inzu yakubakwa igashyirwaho aho bugamira izuba cyangwa se imvura.

Abaturage basobanura ko imirongo y'umweru baca mu mihanda ya kaburimbo, ibafasha kwambuka neza nta kibazo bafite ndetse n'abatwazi b'ibinyabiziga bagasobanura yuko iyo bahageze bagomba guhagarara, kugira uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe.